Gusuzuma abakambwe cyangwa abasheshe akanguhe, ni bimwe mu bintu bifasha kumenya umuvuduko w'amaraso yabo, cyangwa se imiterere y'umutima igafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ikusanyirizo ry'amazi cyangwa ivomero, rifasha abaturage mu gufata amazi meza yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ikusanyirizo ry'amazi aho abantu bajya kuvoma amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi bikabafasha mu kubaho neza mu buryo bunoze.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse arahantu harinzwe nta kibazo hafite aho bashobora kuba bahunikira imyaka kugira ngo ibintu bibe bimeze neza.

Aho ibihugu byiteranya kugira ngo babone uburyo batera inkingo abaturage hirindwa indwara za kanseri ndetse n'ibindi byorezo byose.

Gutanga imiti ku benegihugu ndetse n'abaganga kugira ngo babashe kubona uko bavura abaturage mu buryo burambuye, aho bafatanya n'ibindi bigo bikomeye byo hanze y'u Rwanda ndetse na mpuzamahanga.

Ikigo mpuzamahanga kitegamiye kuri leta gikorera ku isi hose, aho kirebera ndetse kikanafasha abana batoya ndetse n'abana b'abangavu kugira ngo bagire ubuzima bwiza cyane.

Aho Leta ifatanyiriza hamwe n'imiryango Mpuzamahanga, baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mu buryo buryo buryo butandukanye.

Umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri Leta, aho ufasha abantu kubona indyo yuzuye no kubigisha bakamenya ibyo ari byo kandi ikarwanya indwara zitandukanye nka za bwake ndetse n'izindi.

Aho abatabasha kuvuga, cyangwa se kumva bakoresha ubundi buryo bwo kuvugana hakoreshejwe ibimenyetso bigiye bitandukanye.

Aho abaturage begerezwa ivomero. Uyu mugore ari kuvoma amazi meza mu njerekani ari kumwe n'abana, agatahana amazi meza yo gukoresha mu turimo two mu rugo.

Aho abagore cyangwa igitsina gore bafata iyambere mu kwita ku bana babo kugira ngo babashe kubaha ubuzima bwiza ndetse n'uburezi.

Bimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu atekanye afite ubuzima bwiza kandi yitaweho, birafasha cyane kwa muganga, agarura icyizere cy'ubuzima.

Umuryango Mpuzamahanga, urebera ikiremwamuntu ndetse n'uko kibayeho, hifashishijwe amategeko arinda ikiremwamuntu.

Mu giturage aho bahuriza hamwe ibyo batetse, bakaba ba bishyira ku meza aho barira ariko mu buryo burimo isuku kandi bitabateza indwara.

Ibigo nderabuzima, ndetse n'abafite ubumenyi buhagije, mu bintu by'ubuzima, bafatira hamwe bakigisha neza abaturage, ibyiza byo kwivuza, ndetse no kwisuzumisha, ubuzima bwabo, ingaruka nziza byagira ku buzima bwabo, n'imiryango yabo.

Aho umuryango mpuzamahanga ureberera inyungu z'ikiremwamuntu cyane cyane abana batoya bakagira uruhare mu buzima bwabo bwa buri munsi, hatabayeho gutotezwa cyangwa kurengananwa

Ivomero aho abaturage baza gushaka amazi meza, kugira ngo babone ayo bakoresha mu turirimo two mu rugo tugiye dutandukanye.

Abana batoya bakunze gukura bakubagana, aho iyo batitaweho neza, ushobora gushiduka bakoze ibintu byangiriza ubuzima bwabo, nko kunywa amazi mabi adasa neza.

Kwigisha abana bato umuco wo gukaraba intoki, aho abavuye mu bwiherero ndetse n'abagiye kwegera ameza ko baba bagomba gukaraba neza intoki.

Kwa muganga aho bigisha abaforomo kugira ngo babashe gukoresha neza imashini z'ikoranabuhanga, zifashishwa mu gutabara ubuzima bw'ikiremwamuntu.

Abaganga kwegera abaturage kugira ngo basuzume barebe uko ubuzima bwabo buhagaze, cyane cyane abakuze bareba imivuduko y'amaraso ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aho imiryango Mpuzamahanga ndetse na Leta bafatanyiriza hamwe, bakigisha abana uburyo bitabwaho ndetse n'imibereho myiza yabo n'amategeko abarengera.

Aho abaturage baba badafite amazi meza ya kijyambere, bakigira ku isoko bakavoma amazi, bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo babone uko babaho uko bwije n'uko bukeye.

Aho umwana ageze ku ishuri akajya kuri kandagira ukarabe, agakoresha amazi meza asukura intoki ze bigatuma agira ubuzima bwiza.

Aho umuryango ufashanya, ugakorera hamwe, kugira ngo habeho iterambere ry'umuryango, hifashishijwe ibintu bitandukanye mu kwita ku bana, bakabafasha mu masomo, abarwayi bakitabwaho n'ababyeyi bombi.

Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe uburezi witwa Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ku bibazo bya kanseri byugarije abanyarwanda. Aho abarwaye kanseri bagera muri magana atandatu bose bitaba Imana buri mwaka ariko bakaba bari gushaka igisubizo cy'uburyo burambye kandi bwiza.

Ikusanyirizo ry'amazi cyangwa ivomero riba riri ahantu mu baturage. Aho baryifashisha bafata amazi, akoreshwa mu mirimo yabo ya buri munsi.

Abaganga aho bita ku bana bavutse nkaho ari ababo babikorana urukundo, urugwiro. Abana bagakura bameze neza kandi bitaweho ingeri zose.

Ivomero ryubakirwa abaturage kugira ngo habashe kwirinda indwara ziva mu mwanda, aho bakaraba amazi meza bagakoresha amazi asukuye mu ngo zabo.

Inama ni imwe mu bintu bifasha, abaganga guhugura neza abaforomo ndetse n'abakangurambaga kugira ngo habashe kwitabwaho ubuzima bw'abarwayi.

Abajyanama b'ubuzima bakorera mu bigo nderabuzima ndetse no kwegera abaturage, bari basuwe n'abaganga ndetse n'ubuyobozi.

Aho leta ndetse n'imiryango mpuzamahanga bahurira hamwe bakiga ku kibazo cyugarije isi, haba mu ndwara zikira ndetse n'izidakira.

Kuvanga amakuru no guhuza ubumenyi kugira ngo barebe igisubizo cyiza kandi kirambye ku buzima bwa muntu, aho bwitabwaho neza.

Kwigisha abagore uburyo bafata neza abana babo, bakabarinda indwara nka bwacye ndetse n'izindi zigiye zitandukanye ziva ku mirire mibi, bigatera igwingira ry'abana.

Aho abaganga ndetse n'ibigo Mpuzamahanga bifatanyiriza hamwe, bigashaka abantu bamamaye kurusha abandi mu bihugu bitandukanye, bakarebera hamwe igwingira ry'abana, bakamamaza bigasakara hose bigakumirwa.

Inzu cyangwa se inganda zifashishwa hategurwa ibikoresho abaganga bakenera, ndetse no gusukura ibindi byose.

Aho bakusanyiriza amazi, kugira ngo babashe kuba basukura bimwe mu bikoresho bikenerwa mu buvuzi bwa muntu, kugira ngo hirinde indwara zandura.

Gukingira abantu ni kimwe mu bintu by'ingenzi bibafasha kwirinda indwara zimwe mu zandura ndetse n'izitandura, bigafasha mu kwirinda ibyorezo.

Gukarabya umwana intoki birafasha kuko umwana aba yivuruguse, yakoze ahantu hagiye handuye, rero bikaba byatuma ahura n'indwara zitandukanye kubera umwanda.

Kimwe mu bisubizo byagaragaye, aho gukaraba intoki neza bifasha abantu kwirinda indwara zandura, aho umuntu akaraba mbere yo kurya cyangwa avuye mu gikorwa runaka.

Kwigisha abaturage imbonezamubano, kuboneza urubyaro ndetse n'izindi gahunda zigiye zitandukanye, aho abakangurambaga begera abaturage bakabagira inama ndetse bakaba babasha kugera aho ubumenyi bufatika.

Ikigo mpuzamahanga gikorera ku isi ndetse kitabogama na hamwe aho kirebera uburenganzira bw' umwana ndetse n'imibereho ye ya buri munsi.

Aho ababyeyi batuma abana babo kuvoma kugira ngo bakoreshe amazi meza, aboneye, bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga mu baturage, aho abaganga begera abaturage, bakabasobanurira bimwe mu bintu bituma batagira ubuzima buzira umuze.

Kwegera abana babayeho ubuzima buciriritse ukabafasha kwinjira muri sosiyete nk'abandi bose, aho kwiga biborohera ibyo kurya ndetse n'aho kuba.

Aho igihugu ndetse na za minisiteri zitandukanye zo mu gihugu cy'u Rwanda, bafatira hamwe ingaruka ndetse no gukumira iyangirizwa ry'ibidukikije.

Aho basukura amazi kugira ngo abashe kuba yakoreshwa n'abaturage asa neza nta ndwara kuko aba yatewe imiti yabugenewe.

Inama y'Igihugu ndetse n'imiryango Mpuzamahanga, aho bicara hamwe, kugira ngo barebere hamwe igisubizo cy'indwara zugarije abaturage.

Amazi meza yifashishwa mu mirimo ya buri munsi abantu bakenera iwabo mu ngo zabo, aho bayakoresha nk'ikintu kibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Aho abakangurambaga cyangwa se abaforomo, igihe umubyeyi azanye umwana kwa muganga babasha kureba ibiro afite, kugira ngo bamenye neza ko umwana afite ubuzima bwiza.

Madamu Jeannette Kagame aho yari yagiye kwifatanya n'abaganga n'abaforomo mu kubyaza no gufata neza abana, ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye b'Igihugu ndetse n'imiryango Mpuzamahanga.

Gusuzumisha umwana mutoya ni bimwe mu bintu byiza bigira ingaruka nziza ku buzima bw'abana bato ndetse n'ababyeyi babo bikaborohera kubitaho.

Aho leta ndetse n'imiryango mpuzamahanga, barebera hamwe bakegera abaturage, bakabahugura bihagije, uburyo bwo kurebera ubuzima bwabo.

Inama y'abaganga ndetse n'abaforomo kugira ngo barebere hamwe uburyo bafasha abakangurambaga, begereye abaturage kugira ngo haboneke ubuzima byitaweho neza.

Ikusanyirizo ry'amazi aho abantu batuye mu gace runaka baba bakeneye amazi yo kwifashisha imirimo yabo, aho ababyeyi bajyana n'abana babo kuvoma amazi bakoresha mu rugo.

Aho abakangurambaga bahuguwe neza n'abaganga ndetse n'abaforomo, baba begereye abaturage bagafasha mu kwigisha ababyeyi, uburyo bita ku bana batandukanye.

Ikigo cy'Igihugu mu Rwanda gishinzwe amazi no kuyatunganya no kuyasakaza mu baturage, aho gifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza no gukoresha amazi asukuye neza.

Aho abaganga basuye abaturage ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikaza ikegera abaturage, ikabasobanurira icyiza cyo kwisuzumisha ubuzima ndetse n'ingaruka zo kutivuza ku gihe.

Aho ababyeyi bafata abana babo bakabajyana kwa muganga kubasuzumisha no kubateza inkingo, kugira ngo hirindwe ibyorezo ndetse n'ubundi burwayi bugiye butandukanye.

Kwegera abaturage ukareba ubuzima bwabo uko buhagaze, hifashishijwe ibikoresho bitandukanye, aho bafata umuriro, ndetse bagasuzuma n'imitima uko itera, ndetse nimba nta mivuduko y'amaraso bafite, hakaba hakorwa isuzuma rishingiye ku kubona igisubizo kirambye.

Ikusanyirizo ry'amazi, aho abaturage batuye muri ako gace baza bakavoma amazi akoreshwa mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iyo igihugu ndetse n'ubuyobozi bakorera hamwe n'abaganga kugira ngo buri muturage agire ubuzima bwiza, hifashishijwe gahunda zigiye zitandukanye.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe gutanga ibihembo, ndetse no kuganira ku iterambere ry'ubuzima rishingiye muri Afurika, ndetse n'ubworoherane mu bantu bose, bikabera mu bihugu bigiye bitandukanye.

Abantu babana n'ubumuga bwo mu mutwe cyangwa uburwayi bafatirwa hamwe bakaba bakitabwaho bigendanye n'ubwonko bwabo, badahungabanyijwe cyangwa bahure n'ibindi bibazo.

Aho bitaga kubana ndetse n'abangavu kugira ngo barebere hamwe ibibazo byo mu mutwe cyane cyane mu gihe cya Corona virus mu Rwanda nibwo byagaragaye, babishakira umuti ndetse n'igisubizo.

Imibereho y'abaturage bituriye mu giturage, aho bakora imirimo bari kurera n'abana igihe kimwe kugira ngo bareberere abana babo ubuzima bwa buri munsi, bitewe n'ubushobozi buke bakabitaho uko bashobojwe,

Aho abaganga begera abaturage cyane cyane abarwayi kugira ngo babashe kwitabwaho neza babone ko atari bonyine.

Aho igihugu ndetse n'indi miryango mpuzamahanga, barebera hamwe uburyo bakita ku bantu bafite indwara zo mu mutwe, harebewe uburyo bitabwaho neza.

Uburwayi bwo mu mutwe, aho umuntu ahura n'ingaruka mbi mu buzima bwe, bikaba byamutera ubumuga cyangwa ubundi burwayi ariko hifashishijwe ikoranabuhanga, bashobora kuba bavurwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe aho bareba abantu bafite ibibazo mu bwonko bakaba babafasha kugirirwa neza cyangwa kugira ubuzima buzira umuze.

Ikigo gishinzwe indwara zo mu mutwe gikorera muri Afurika ndetse no mu Rwanda, cyifashishije abaturage ndetse n'ubuyobozi bagakorera hamwe bakaba bavura abantu indwara zo mu mutwe.

Uyu ni umunsi wahariwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, uba kuri tariki cumi, z'ukwezi kwa cumi ku Isi hose mu buryo butandukanye habaho: gusuzuma, gufasha abantu mu buryo butandukanye harebwa ibyagezweho.

Uburwayi bwo mu mutwe, ni bimwe mu bintu byangiriza amahirwe y'ubuzima bwa buri umwe haba urubyiruko, ndetse n'abakuze kuko aba adashoboye gutekereza, mu buryo bunogeye.

Aho abantu bamwe na bamwe batotezwa, bagahambirwa, bakagirwa abacakara, babayeho mu buzima bubi kandi butanogeye ikiremwa muntu.

Aho amakaminuza atandukanye afatanyiriza hamwe umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bantu bafite ubumuga bwo mu mutwe.

Kwigisha urubyiruko ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ikibitera ndetse n'uburyo bazirinda mu buryo bumeze neza kandi bakagira ubuzima buzira umuze.

Kuganiriza abana b'abakobwa bafite ihungabana rigiye ritandukana, baba bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, aho barebera hamwe bagahugurwa bakamererwa neza.

Inama zitegurwa kugira ngo habashe kwitabwaho abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo bisange mu bandi cyangwa haboneke uburyo bafashwa.

Bimwe mu bintu bituma habaho ibibazo byo mu mutwe n'uburwayi bushingiye ku bwonko, aho imiryango inanirwa kwita ku bana babo hakaza ibibazo by'imiryango bahura na byo kandi bakiri bato.

Uburwayi bwo mu mutwe, aho barebera hamwe icyafasha kugira ngo bavure abantu bose, aho isi hose ihuriza hamwe igashakira hamwe igisubizo bafatanyije n'ibigo mpuzamahanga bitandukanye.

Aho madamu Jeannette Kagame agira abantu inama ndetse akanakurikirana uburyo abarwayi bo mu mutwe bitabwaho n'uburyo bavurwamo.

Icyapa cyerekana kwirinda indwara zigiye zitandukanye, nk'ibyorezo n'izindi ndwara zandura hifashishijwe cyangwa biciye mu mwanda, ndetse no gukorora ndetse n'abadamu batwite ndetse n'abana, ibintu bemerewe n'ibyo batemera, mu buryo bikurikijwe haba hariho ubuzima bwiza.

Umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe, aho ari ku muhanda asa nabi yambaye impuzankano itagaragara neza, akaba yavurwa akitabwaho, akaba yakongera akajya ku murongo.

Uburwayi bwo mu mutwe bimwe mu bintu biterwa no kubaho nabi cyangwa kurwara ntiwitabweho bihagije, bikaba byatuma umuntu yakitwa umusazi wabuze uko abigira.

Aho abana bari mu gahinda gakomeye, benshi bishwe n'inzara bashoje, kugira ibibazo by'ihungabana mu mutwe ndetse n'ingingo zabo zitandukanye.

Uburwayi bwo mu mutwe, aho akenshi abanyarwanda benshi bavuga ngo ''uriya muntu yarasaze'' bashaka gusobanura ko akora ibintu atatekereje cyangwa atitekerereje bitewe n'uburwayi bwo mu mutwe afite.

Aho abakozi ba Leta ndetse n'ibigo byinshi bigiye bitandukanye, barebera hamwe uburyo bakumira igwingira ry'abana, ndetse n'ababana b'ubumuga bwo mu mutwe.

Aho ibigo byikorera bifatanyiriza hamwe na za Leta, bakarebera hamwe uburyo bakita ku bantu barwaye mu mutwe.

Aho abasheshakanguhe iyo bamaze gukura bameze nk'abana batoya, baba bari kumwe n'abana bakumva bishimye, bari aho bakagombye kuba bari, bigafasha cyane kubahuza bagasabana bagahuza urugwiro.

Uburwayi bw'amenyo ni kimwe mu bintu bibangamira umuntu, aho umuntu akoresha amenyo ye akanjakanja ibyo kurya cyangwa se asekera n'abantu bari kumwe, rero arakenewe cyane ni yo mpamvu uyarwaye ataba amerewe neza.

Gukura amenyo ni bimwe mu bintu bifasha kugira ngo umuntu agere amenyo ari ku murongo, cyangwa amenyo arwaye akurwamo, aho umuntu a ashobora kuba afite inyungikirane bakaba bayikuramo.

Mu gusukura amenyo umuntu akoresha ibikoresho byinshi bitandukanye, aho umuntu akoresha uburoso na corogate cyangwa amakara ariko umushipiri wifashishwa mu gusukura amenyo neza, aho hagati y'amenyo haba haragiye imyanda igakurwamo neza.

Kwigisha abana kwiborosa hifashishijwe uburoso na corogate kugira ngo bagire amenyo akeye, kandi birinda ubundi burwayi bwo mu kanwa.

Bimwe mu bikoresho byo kwa muganga byifashishwa batunganya cyangwa bafasha umuntu urwaye amenyo, aho bashobora kuyakura, kuyasukura ndetse n'ibindi bitandukanye.

Koza neza amenyo mu gihe cyagenwe birafasha umuntu kugira ngo yirinde indwara izo ari zo zose zo mu kanwa uko zaba zimeze kose.

Aho hari udukoresho dukoreshwa mu gusukura amenyo, kugirango imyanda ifata hagati mu menyo, ikurwemo kugirango hirindwe ibyorezo cyangwa ibyuririzi bitandukanye.

Ubu buvuzi bw'amenyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa muntu, aho bwifashishwa mu kurinda indwara zo mu kanwa ndetse n'izindi zitandukanye.

Abaganga ndetse n'abakoranabushake begera abaturage hakabaho gusuzuma amenyo kugira ngo barebe abafite ibibazo byo mu kanwa, amashinya ndetse n'ubundi burwayi bwo mu kanwa, habeho kwivuza ku gihe.

Aho umugabo afite umushipiri ushobora kuba wamufasha mu gusukura neza amenyo ye, aho utuntu tumwe na tumwe tuba twafashe mu menyo akaba yadukuramo akoresheje umushipiri.

Abarwaye amenyo aho baza kwivuriza bagafashwa, bagataha banyuzwe, aho begera abaturage mu buryo bwiza kandi buziguye.

Kwigisha abana umuco wo koza neza amenyo yabo, bituma bibarinda indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane izo mu kanwa n'zindi zitandukanye.

Amenyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi umuntu aba akeneye mu buzima bwa buri munsi, aho ayifashisha arya cyangwa se abantu batandukanye, akaba hano bari kumwogereza mu menyo bakuramo imyanda basukura.

Umurwayi uryamye kwa muganga, aho umuganga ndetse n'abamufasha bari kumukuramo amenyo, aho bifasha kurinda kwanduza izindi ndwara.

Isuku y'amenyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa buri munsi, aho umuntu afata uburoso agashyiraho korogate akibarosa akaba yabasha kujya mu bantu ahumeka neza atabanukira impumuro zo mu kanwa.

Ubuvuzi bw'amenyo ni kimwe mu bintu bihenze muri iyi si, ariko kwirinda ni byiza aho umuntu akoresha urudodo akuramo imyanda iri hagati mu menyo kugira ngo hirindwe indwara zo mu kanwa.

Kwishima ni kimwe mu bintu biranga abantu babayeho neza , kandi banezerewe. Aho umuntu ufite amenyo asa neza cyangwa yogeje neza bimufasha kugaragara neza muri sosiyete.

Bimwe mu bikoresho biteye imbere, bifite ikoranabuhanga, abantu bifashisha basukura amenyo yabo, kugirango ase neza kandi agaragare neza, hirindwa indwara zigiye zitandukanye.

Ikoranabuhanga mu buzima aho ubuvuzi bw'amenyo bwateye imbere hifashishi ikoranabuhanga, aho umuntu aza bakamupima, bakamwogereza amenyo, bakayahoma ndetse n'izindi ndwara zo mu kanwa bakaba babasha kuzivura nk'uburyo bwiza.

Gufasha abasheshakakanguhe haba abarwariye mu ngo cyangwa mu bitaro bagafashwa mu buryo bunogeye kugira ngo babashe kwitabwaho neza, ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Mu muco nyarwanda, abagore barakenyera ndetse n'abategarugori, n'aho abagabo baza bavuga imisango, bavugira inka, mu rwego rw'abantu bakuze bibafasha kudasaza vuba, mu kugira ubuzima buzira umuze.

Abagore baba bakuze n'abangavu, bakorera hamwe siporo ngororamubiri kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Aho abasheshekanguhe cyangwa abakambwe bajyanwa mu birori bigiye bitandukanye n'imisango, babashe kwishima hirindwa indwara zigiye zitandukanye zava mu kwigunga no kwiheba.

Kwita ku bakambwe cyangwa abasheshekanguhe biri mu bintu bifasha abari mu za bukuru kugira amasezero meza aho bareba ubuzima bwabo babaha indyo yuzuye ndetse ibintu byose babibonera ku gihe.

Gukoresha abakuze siporo ngororamubiri hagamijwe kurambura imitsi no kureba ko utunyangingo twose tw'umubiri dukora neza, hifashishijwe uburyo butandukanye.

Kwita ku basheshe akanguhe harimo nko kubakoresha siporo ndetse n'ubundi buryo bwose umuntu yabitaho bakabaho bishimye, bafite umunezero mu ngeri zose.

Aho umubyeyi ari gukina n'umwana we, bafite umupira ukinwa n'intoki, aho baba bishimye, bahuje urugwiro cyane.

Kwita ku bakuze birafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kandi babashe kuramba igihe kirekire, aho barebwa mu ngeri zose.

Kwita ku baseshe akanguhe ni bimwe mu bintu bifasha kugira ngo hatabaho kwiheba, bagira ubuzima bishimye, bituma babasha kuramba igihe kirekire.

Aho abasheshakanguhe bakina n'abuzukuru babo cyangwa se imiryango yabo harimo n'abana babo, kugira ngo bamererwe neza mu buryo bw'ingeri zose.

Gufasha abasheshe akanguhe ni bimwe mu bintu byiza, aho bafashwa mu kurambura imitsi kugira ngo badahinamirana cyangwa bakagerwaho n'izindi ngaruka.

Gukoresha siporo abakuze aho imitsi yabo irambuka igakora neza n'amagufwa ndetse, bigatuma batekereza neza kandi banishimye cyane.

Gufasha abasheshe akanguhe ni bimwe mu bintu by'ingenzi bibafasha kubona ko bitaweho kandi bakunzwe, bikaba bituma byongera icyizere cyo kubaho kuri bo.

Imwe mu mikino ikunda gukinwa n'abasaza basheshe akanguhe, aho bahuriza hamwe bagakina umukino ukoresha ubwonko cyane, bikaba bibarinda gusaza vuba.

Gufasha abakuze mu gukora siporo ngororamubiri, aho abari barwaye bari bamaze iminsi imitsi yarahinamiranye, bakaba bikenewe ko babafasha mu kurambura imitsi no kurambura amagufwa. Kugira ngo babashe kongera kugira ubuzima bwiza cyane.

Umuryango uri gusangira bishimye, baganira bari gusangira indyo yuzuye kandi bafite igikombe cy'amazi, kuko amazi tuzi ko ari isoko y'ubuzima.

Aho umukambwe ndetse n'umufasha we bicara hamwe baganira, bakajya bafatira imiti ku gihe bagafashanya mu buzima bwa buri munsi.

Gufasha abasheshekanguhe gufatira imiti ku gihe kugira ngo babashe kubaho neza, bari mu buzima bwiza bishimiye, kandi bafashwe neza.

Aho bari gusuzuma abakambwe umuforomo akoresha ibipimo ibireba umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Aho abaturage batanga ubuhamya, bitewe n'ibyababayeho mu gihe kiba cyaratambutse, kugira ngo na bagenzi baho bumvireho ibyiza byo kwegera ibigo nderabuzima, ukisuzumisha uko umeze n'uko ubuzima buhagaze.

Aho abakuze haba mu basheshekanguhe, ndetse n'abakambwe, barebera hamwe, bakaganirizwa ku buzima bwabo uburyo bufashwe.

Abagore batatu, umwe ari kubereka muri telefoni ibintu bigiye bitandukanye, bakabasha kuba barebera hamwe kandi bagasobanukirwa neza mu bufatanye.

Kwita ku bakuze ni kimwe mu bintu by'ingenzi aho bitabwaho bagafatwa neza ndetse n'imiti yabo bakaba bayifatira ku gihe kugira ngo hirinde ingaruka mbi.

Aho abasheshakanguhe bitwara mu buzima bwabo busanzwe bwa buri munsi, bakagana ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima, kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, ndetse n'indwara bafite zikaba zabonerwa igisubizo hakiri kare.

Aho umuntu aba arwaye indwara bakamukurikirana ndetse kugira ngo avurwe neza, akaba yabasha kuba yabagwa kugira ngo yitabweho neza kandi mu buryo buziguye.

Kimwe mu bintu biteye imbere byaje muri iyi si bigafasha gutabara ubuzima butari ubwa bake. Aho bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo umuntu babashe kuba bamuvura, bamubaze kandi ntibigire ingaruka mbi.

Abaganga aho begera abaturage bakabafata ibizamini ndetse n'ibindi bipimo byose kugira ngo harebwe niba hari abafite ibyorezo cyangwa ibindi byozi by'indwara.

Ikigo mpuzamahanga, kigaragara mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, mu bijyanye n'ubuzima, hakorwa ubushakashatsi, havumburwa ndetse banateza imbere ibihari.

Imiryango mpuza mahanga itandukanye, aho irebera hamwe igafatanya mu kurinda ndetse no gukumira ibyorezo mu buzima bwa muntu.

Kwegera abaturage cyane cyane abakobwa b'abangafu aho bagirwa inama mu buryo butandukanye nko mu kwirinda inda zitateganyijwe.

Aho ibigo bitandukanye bikorera muri iki gihugu cy'u Rwanda, bifatira hamwe umwanzuro wo kwegera abaturage, bikabasobanurira, icyiza cy'ubuzima bwiza.

Aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gifatanyije n'ibindi bigo bikorera mu Rwanda, bafatira hamwe uburyo baganiriza abantu mu mutwe kugira ngo babashe kuvurwa neza.

Guteza imbere umugore aho agira uruhare mu miyoborere y'ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye, haba mu mivurire ndetse n'ibindi byakenerwa nk'imiti.

Aho abaganga bambara bakifubika bakikwiza kugira ngo hatagira ibyorezo byandura bibataka bakora ubushakashatsi bwabo batuje.

Ubuzima ni kimwe mu bintu bifite ingaruka ku biremwamuntu byose. Aho uwivuje neza abaho neza kandi akaramba.

Ibigo bibiri byifatanya kugira ngo birwanye imirire mibi, indwara zandura ndetse n'izitandura ndetse bigakorerwa mu bihugu bisa nkaho bikiri mu nzira y'amajyambere.

Ibiti ndetse na jaride, aho bifasha abantu kubona ahantu bahumekera, haza amahumbezi, ndetse n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu bigendanye no kurwaza abarwayi ndetse no gutunganya imiti ikenewe kugira ngo havurwe abantu.

Ibitaro bikoresha ikoranabuhanga mu gufasha no gutabara ubuzima bw'ikiremwamuntu mu buryo bwose bushoboka, hifashishijwe ibipimo ndetse n'inzobere muri byo.

Ibitaro aho byakira ababigana bose, haba abarwayi ndetse n'abarwaza, bakarebera hamwe mu gufata umwanzuro ku muntu ufite ikibazo, akaba yabasha gutaha amerewe neza.

Mu bitaro/kwa muganga aho bakorera ubushakashatsi mu bipimo baba bagiye bafata bigiye bitandukanye nk'amaraso, imisarani, inkari n'ibindi bigiye bitandukanye, kugirango babashe kuba bareba indwara cyangwa icyorezo bitandukanye.

Isuku inoze kwa muganga aho batunganyiriza ibikoresho byakoreshejwe kugira ngo bibashe kongera kugira umumaro kandi bidateza izindi ndwara.

Bumwe mu bubiko bwo kwa muganga, aho babika imiti kugira ngo itangirika ndetse n'ibindi bikoresho nk'inshinge, bikoreshwa neza kugira ngo abantu bitabweho neza.

Aho abarwayi baba bari kwa muganga bafashwa n'ibyuma byo kwa muganga kugira ngo babashe guhumeka no kugumana ubuzima mu gihe bari kwitabwaho.

Ikigo nderabuzima gifasha ababyeyi ndetse n'ingeri zose zitandukanye bakaba babasha kubona ubufasha bakeneye mu bijyanye n'ubuvuzi.

Kwa muganga ahabikwa imiti ndetse n'ibindi bikoresho, byifashishwa n'abaganga cyangwa se abaforomo, kugira ngo bite neza ku barwayi.

Ikigo nderabuzima ni kimwe mu bintu bifasha abaturage kwegerezwa ubuvuzi hafi y'aho batuye bitabanje kubafata intera y'urugendo rurerure.

Ibitaro bigaragara mugihugu cy'u Rwanda mu karere ka Musanze aho bifasha abantu mu kubavura ndetse no kubitaho mu buryo bwiza kandi burambuye nta n'umwe ugize ikibazo.

Aho abaganga bakoresha ikoranabuhanga binyuze mu mashini zakozwe kugira ngo babe bafata ibipimo babisuzume, barebe icyo umuntu arwaye cyangwa niba yaranduye amaraso ndetse n'ibindi.

Kwa muganga, aho babagira abarembye cyangwa se abafite ibibazo by'imbere mu mubiri, bagafashwa n'abaganga ndetse n'abaforomo kugira ngo babashe kuba bamererwa neza.

Uko mu bigonderabuzima ndetse no mu bitaro uko abarwayi babayeho, ndetse uburyamo bwabo bufite isuku, ndetse bitaweho bari kuba ahantu heza, bigatuma kubakurikirana ubuzima bwabo ku bundi byoroha.

Zimwe mu nzu zahariwe gukorerwa siporo, aho zizanamwo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abantu bakora siporo zigiye zitandukanye batavuye aho bari.

Inzu ibikwamo imiti itandukanye yifashishwa n'abantu igihe muganga yayibategetse kuyifata, ni aha baza kuyishakira.

Aho abaganga ndetse n'izindi nzobere zitandukanye, aho bahuriza hamwe ibitekerezo, bakaba babasha gukora ubushakashatsi ku ndwara runaka n'izindi zitandukanye.

Hamwe mu hantu hatuma abantu bumva ko bitaweho, ni ukubona ibigo nderabuzima bibegereye kandi bafashwe neza, bitaweho mu buryo bwose buboneye kandi buziguye.

Aho abarwayi bitarwaho kubera ko baba bakeneye ahantu bamara iminsi bareba ubuzima bwabo uko buhagaze; nimba boroherwa gake gake.

Inzu ikorerwamo siporo zijye zitandukanye, aho zifasha umuntu kugira umubiri uteye neza, kandi akirinda indwara, nk'imitima cyangwa imivuduko y'amararaso.

Ikigo kirwanya ihohoterwa ndetse n'akarengane bikorerwa abana b'abakobwa ndetse n'abagore, bikaba bibafasha mu kubaturisha no kubarenganura.

Kimwe mu bikoresho byo kwa muganga byifashishwa habaho gusuzuma ingingo z'umuntu zose nimba zikora neza ndetse n'aho hafite ikibazo hakaba haboneka.

Ibiro bya muganga aho uje kwisuzumisha abwira umuganga icyo arwaye, aho ababara n'uko byaje, bigatuma umuganga cyangwa umuforomo amenya aho yahera agufasha.

Bimwe mu bitaro biri mu mujyi wa kigali, aho byifashishwa n'abatuye igihugu ndetse n'abandi bose kugira ngo habeho ubuvuzi bwiza kuri bose bugera hose.

Kwa muganga, aho bakoresha ibyumba bigiye bitandukanye, habikwamo ibizamini bitandukanye baba bagiye bafata, kandi ntibyivange n'iby'abandi, ndetse hakorwa n'imiti itandukanye bigashyirwa ku mpande zitandukanye, bitewe n'ibyo bigiye bifashamo.

Aho abaturage iyo bavuye kwa muganga, babandikira imiti, bakaza muri izi nzu zigurishirizwamo imiti, bakaba bafata iyo bandikiwe na muganga.

Aho abantu binjirira kwa muganga bakaba babasha guhabwa inyunganizi ndetse no gusobanurirwa neza uko bavurwa no gupima icyo barwaye.

Kwa muganga haba hari ibyumba bigiye bitandukanye, aho bifasha abantu bagiye batandukanye, aho iki cyumba gifasha kwita ku babyeyi batwite ndetse n'abana babyara.

Aho leta ikorana n'imiryango mpuzamahanga igahugura abaganga n'abaforomokazi uburyo bita ku murwayi neza akagira ubuzima buzira umuze.

Ibitaro bikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho bipima, bikana suzuma imibiri y'abantu bagiye batandukanye, hakaba hamenyekana indwara barwaye, n'abakoresha babigize umwuga nk'abaganga n'abaforomokazi.

Abaturage bavuye kwa muganga babandikira imiti yo gufata, kugira ngo babashe kuba bakira, aho hifashishwa inzu nk'izi ngizi, aho bajya gufata imiti kugira ngo babashe kumererwa neza no kugabanya ubukana bw'indwara bafite.

Ikigo nderabuzima aho abantu bose baza kwisuzumisha indwara zigiye zitandukanye kugira ngo babone ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Aho bakirira ababagana, haba mu bitaro ndetse no mu bigo nderabuzima kugira ngo hafatwe imyirondoro ya buri umwe kugira ngo abashe gufatirwa ibizamini ndetse n'ibindi byakenerwa aho ngaho.

Kwa muganga bashyiraho aho abana bakinira kugira ngo abari koroherwa babashe kwidagadura no kwisanzura, bigatuma abandi barwariye aho ngaho, babona ko bishoboka, bakaba babasha kuba bakira vuba.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bantu barwaye aho ikigo nderabuzima cyifashishwa mu buvuzi bw'ibanze bw'abaturarwanda ndetse n'abandi batandukanye.

Ikoranabuhanga kwa muganga, ni bimwe mu bintu bifasha mu kwita ku buzima bw'abantu, n'abaturage kugira ngo bamererwe neza ubuzima bwabo bwa buri munsi, hifashishijwe ikoranabuhanga.

Aho ababyaza ndetse n'abaforomo baza kureba abarwayi ndetse bakanapima uko ubuzima bw'abana n'abagore, uko buhagaze.

Zimwe mu mashini zikozwe mu ikoranabuhanga zikoreshwa kwa muganga kugira ngo habeho gupima no gufata ibipimo bihagije kugira ngo umuntu abashe kuba bamenya icyo arwaye neza.

Kwa muganga, aho umuganga ari gufasha umurwayi kuba yamererwa neza, aryamye ku gatanda, akamenya aho ababara, akamuvura neza.

Kwa muganga baba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, ifasha mu kuvura abantu bafite ibibazo by'imbere mu mubiri bitagaragara inyuma, hakoreshwa izo mashini bareba uko bameze.

Inzu ikorerwamo siporo ngororamubiri mu buryo butandukanye, aho umuntu akora siporo z'amaguru, iz'amaboko, kwirukanka utiriwe ujya mu muhanda, ugakorera siporo ahantu hamwe kandi mu buryo bwiza bwizewe bitanga umusaruro ndetse n'icyizere.

Kwa muganga ahaba hari ibice bigiye bitandukanye by'abarwayi bitewe n'icyo barwaye, ahagaragara abagore batwite ndetse n'abandi barwaye izindi ndwara zitandukanye.

Ahantu abana barwarira ariko bakabona ibikoresho byo kubitaho nko kubona ibyo bakiniramo, kwisanzura bakumva bameze nkaho ari iwabo kandi bari kwa muganga.

Kwa muganga hamwe mu hantu hageze iterambere mu ikoranabuhanga, aho haba hari ibikoresho umuntu yicaraho bakareba ubuzima bwe uko buhagaze.

Ikigo cy'igihugu bita rbc cyifashishwa mu gutunganya neza imiti, amaraso, uburyo ahabwa abaturage bigakorwa mu buryo bwiza kandi bunoze.

Kwa muganga aho haba hari inzira z'abanyamaguru, kugira ngo babashe, guhumeka neza, kandi ahantu hatari mu nkomane.

Aho inzu yagenewe gutanga imiti mu baturage ndetse n'abandi bose barembye, aho uwandikiwe na muganga imiti, aza hano bakaba bayimuhereza.

Kwa muganga aho bita ku barwayi bose hifashishijwe uburyo bunoze, aho ntawubangamira undi cyangwa se habi havuka ikibazo gitandukanye.

Kwa muganga, aho bakoresha ibyuma cyangwa se imashini zifite ikoranabuhanga ribasha kwerekana ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze.

Mu kigo nderabuzima cyangwa kwa muganga, aho abantu barwarira ndetse abafasha ibitaro, bakaba bamaramo iminsi, bakaba babasha kubona amacumbi meza kandi afite isuku.

Aha ni kwa muganga aho ababyeyi baba bategereje kubyarira cyangwa se guhabwa ubundi bufasha binyuze mu kwitabwaho mu buryo butandukanye kugira ngo babashe kubyara neza abana babo nta kibazo bahuye na cyo.

Aho kwa muganga bafatira ibizamini cyangwa ibipimo, bakabijyana mu bushakashatsi kugira ngo babashe kumenya ko umuntu arwaye indwara runaka.

Mu bitaro haba harimo ibice bigiye bitandukanye by'abantu bitewe n'ubushobozi bwabo, aho hari icyiciro rusange ndetse n'icyiciro cy'abantu bishoboye cyangwa bafite amafaranga atubutse.

Inzu itangirwamo imiti ndetse ikorana n'ubwisungane mu kwivuza, gutandukanye kugira ngo byorohere abaturage ndetse n'abandi bose babagana, kuba babasha kubona imiti biborohereye.

Ibitaro byigenga biherereye mu mujyi wa Kigali, aho bakunze kwita kwa Nyirinkwaya aho abantu bivuriza, haba abagore batwite, abafite ubundi burwayi baza kwisuzumisha no kureba uko ubuzima bwabo buhagaze bwa buri munsi.

Hamwe mu bitaro mu hantu hafatirwa ubuzima bwa buri umwe wese, biciye mu bushakashatsi ndetse no mu bindi bitekerezo. Aho abaganga ndetse n'abanyabwenge barebera hamwe igisubizo ku buzima bw'abantu haba mu byorezo ndetse n'ibyuririzi byose.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu haba hatuje, utasanga amajwi y'urusaku, aho bafata neza abarwayi, bakabitaho mu buryo bwose bushoboka.

Ibitaro bitegamiye kuri Reta bivura amaso y'abantu kugira ngo babashe kureba neza, bafite ubuzima bwiza.

Aho ababa bavuwe kwa muganga, baba bafite akanyamuneza kenshi cyane, bigaragara ko bafite ikizere cy'ubuzima ndetse n'ejo hazaza.

Iyo umuntu yinjiye mu bitaro asanga ari ahantu hari umutuzo, hari n'aho bamwakirira bakamubaza ibyangombwa ndetse bakaba babasha no kumuhuza na muganga bitamugoye cyane.

Mu bitaro ni hamwe mu hantu h'ingenzi abantu batajya bakinisha kuko nta hantu bita ku bababaye, batagendeye ku kintu icyo ari cyo cyose, umuntu wese agafashwa kandi akamererwa neza.

Indyo yuzuye ni kimwe mu bintu bifasha ubuzima bwa muntu kumererwa neza kandi nta ndwara namba na hato afatwa na yo.

Umuntu wese wakoze siporo, aba akeneye amazi meza yo kunywa kugira ngo agire ubuzima bwiza, atembere neza amaraso mu mubiri, umuntu nyamuntu.

Aho umuntu ukora siporo yemerewe gukora siporo, yamara gukora siporo akihanagura, agasukura n'ibikoresho yakoreshaga akirinda gusuhuza abantu atakarabye cyangwa se atabitse neza ibikoresho bye, ubundi agataha, akoga, akaruhuka, akaba yafata ibyo afa...

Ikoranabuhanga, kimwe mu bintu byafashije gutera imbere ubuvuzi no kwita ku bantu barwaye, aho umuntu ashobora kuba yabagwa igice afiteho ikibazo kandi bikagenda neza.

Bumwe mu buryo umuntu ahugurwa kugira ngo abe yatanga ubufasha bw'ibanze, aho umuntu atameze neza cyangwa agaragara nk'umuntu ufite ikibazo gikabije.

Abagabo bamwe mu bantu bakunda siporo, cyane cyane abagabo bakunda gukora umubiri aho baba bashaka kuzana amatuza ndetse n'ibindi bitandukanye.

Bimwe mu bikoresho bikenerwa kwa muganga, bisuzuma imivuduko y'amaraso, ibireba imiterere y'umutima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Siporo ku gitsina gore ni bimwe mu bintu bifasha kugira ngo babe bakomeye, bafite imitima myiza ndetse n'amaraso agenda neza mu mubiri.

Gukora siporo ni bimwe mu bintu by'ingenzi aho umuntu akina imikino itandukanye bigendeye ku mabwiriza cyangwa icyo umuntu yishimira gukora, ariko siporo zose ni nziza ku buzima bw'umuntu.

Hari ukuntu abantu baba bari muri siporo bagahura n'ibibazo bitandukanye bamwe bakavunika, aho ugiye kubafasha abashyiriraho bande, haba hari uburyo agomba kuyishyiraho; apana uko yiboneye.

Kunywa amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi umuntu wese akenera mu buzima bwa buri munsi. Aho umuntu wanyweye amazi amererwa neza, akaba yabasha gutekereza neza n'umubiri ukaba umeze uziguye.

Umusore uri kunywa amazi, aho yananiwe akora siporo z'umubiri. Akanywa amazi meza, bikamufasha kugarura ubuyanja.

Aho ubutegetsi bw'Igihugu ndetse n'abaganga bafatira hamwe bakaganira ku kibazo cy'abaturage bafite uburwayi butandukanye, uburyo cyakemukamo mu buryo bwiza kandi burambye.

Imashini y'ikoranabuhanga, aho umuntu bamusuzuma ibice byose by'umubiri kuva ku mano ukageza ku musatsi, bakamenya ikibazo afite n'uburwayi afite.

Kuzirika umuntu bande, bimufasha kwirinda ubukana bw'uburwayi afite, bitewe n'ahantu yagize imvune, bigafasha cyane.

Agatanda gashyirwaho umurwayi igihe kugenda byamunaniye cyangwa se yaguye igicuri akaba atabasha kweguka bakamurambikaho bakamutwara kwa muganga nta nkomyi.

Imipira itandukanye ya siporo yo gukina ndetse n'akamashini kifashishwa mu gusuzuma imiterere y'umutima. Aho uwakoze siporo agira ubuzima bwiza, amaraso agenda neza mu mubiri.

Bimwe mu bintu bikenerwa cyane n'abantu bakora siporo, ibintu bituma bagaragara neza, basa neza, hifashishijwe ibikoresho nk'ibi bigiye bitandukanye.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa mu gupima umuvuduko cyangwa uko ubuzima bwa muntu buhagaze hifashishijwe ibipimo bigiye bitandukanye.

Imwe mu miti ikorwa n'abahanga b'inzobere kugira ngo babashe gukora ibikoresho cyangwa se ibitabo umuntu yagenderaho, akaba yabasha kuba yagira umubiri mwiza wikubye uko wari umeze kandi afite ibiro biboneye.

Gukora siporo ni imwe mu bintu by'ingenzi bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza ariko abifashijwemo no kurya indyo yuzuye nziza kandi iboneye.

Umuganga ari guhugura abaganga bagenzi be n'abaforomo ndetse n'abakangurambaga, uburyo bakoresha ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Ikarito yifashishwa mu kuvura abantu aho irimo imiti y'ingenzi abantu bakenera cyane cyane mu gihe cya siporo, aho umuntu ashobora gukomereka cyangwa akavunika, akaba yabona ubufasha bw'ibanze atiriwe ajya kwa muganga.

Gukorera siporo mu rugo bisaba ko uba ubifiteho ubumenyi buhagije, kugira ngo siporo ugiye gukora uri ahantu hamwe igire icyo ikumarira, urambura imitsi, uterura ibyuma ndetse n'izindi zitandukanye.

Aho siporo ifatwa nk'umuti wa mbere mu buzima bwa muntu aho uwakoze siporo atabasha kwibasirwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Inzu yahariwe gukorerwamo siporo, ni byiza guterura ibyuma ukaba wagira inyama nini, bifasha mu kwirinda umuvuduko w'amaraso, kurwara umutima ndetse n'izindi ndwara.

Umuntu iyo yavunitse, cyangwa se uburwayi bwe, ari ubw'imbere butagaragara inyuma bashyiraho barafu, kugira ngo bagabanye umuvuduko w'amaraso abasha kumererwa neza.

Baganiriza abantu bafite ikibazo mu mutwe cyangwa se abafite ibindi bintu bakoronijwe nabyo, ukaba wabaganiriza bakajya ku murongo nk'abandi bose.

Hari bamwe mu bantu, muganga yandikira siporo kubera ko amagufwa yabo aba adakomeye n'imitsi yabo yarahinamiranye, bakora siporo bakagira ubuzima buzima.

Amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha umuntu, mu buzima bwe bwa buri munsi. Aho umuntu ukora siporo akenera amazi kugira ngo abashe kugarura ubuyanja.

Siporo ngororamubiri, bimwe mu bintu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza, aho birinda indwara z'imivuduko y'amaraso, amadiyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Ubufasha bw'ibanze ushobora guhabwa na muganga igihe wagiriye impanuka muri siporo, akaba yagufasha byihuse ntugire ibindi bibazo by'umubiri.

uUmuntu wese ukora siporo hari bimwe mu bikoresho akenera kugira ngo yumve ko afite ubuzima bwiza kandi atekanye bikamufasha kudahumangana.

Inzu ikorerwamo siporo, aho umusore ari gukora siporo zigiye zitandukanya, aho bifasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Gukora siporo ni bimwe mu bintu bigabanya umunaniro wo mu bwonko bw'umuntu. Ndetse no gucika intege k'umubiri, aho umuntu akora siporo akagira umubiri umeze neza.

Siporo ngororamubiri ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha buri umwe wese kuba yagira ubuzima bwiza kandi bwirinda indwara zitandukanye.

Aho umuntu urwaye uri koroherwa amaze gutora agatege, bamukoresha siporo ngororamubiri kugira ngo imitsi ye ndetse n'amagufwa birambuke neza ku buryo azakira neza.

Umukobwa aho akoze siporo akananirwa, amazi ni kimwe mu bintu biramira umuntu urangije siporo akaba yakumva amerewe neza, afite ubuzima bwiza.

Siporo ni bimwe mu bintu bifasha umuntu kwirinda indwara, nk'umutima, imivuduko y'amaraso, nka za diyabete, akagira ubuzima buzira umuze.

Gukina mu buryo bwiza hirindwa impanuka zitandukanye, aho abakina bakina bigengesereye kandi nta mitima mibi ndetse cyangwa imvururu zivamo.

Amazi ni isoko y'ubuzima, amazi ni kimwe mu bintu abantu bose bakenera mu buzima bwa buri munsi, haba mu byo guteka barayakenera ndetse no kuyanywa, bigatuma habaho kuyungurura bimwe mu bice by'umubiri neza.

Agakarito kaba karimo imiti y'ibanze n'ubufasha bafasha umuntu mu gihe gito igihe ataragezwa kwa muganga, yaba yahuye n'ibibazo bitandukanye hakirindwa ibindi byuririzi byakomokeramo.

Bimwe mu bintu bifasha umuntu wakoze siporo, harimo kurya imbuto ziboneye, harimo karoti, amaronji, ibinyomoro, pome, inkeri n'izindi zitandukanye.

Aho umusore wari uri muri siporo yatsikiye akabasha kuba yavunika akaguru, aho ari mu buribwe bukomeye cyane.

Mu Kinyarwanda cyiza, umunyarwanda yaricaye aratekereza aravuga ati "amazi ni isoko y'ubuzima " kunywa amazi meza asukuye ntako bisa.

Gukora siporo ni bimwe mu bintu bifasha mu buzima bwa buri muntu, aho umuntu ashobora gukora siporo akagorora neza umugongo bikamurinda indwara z'abantu bakuze.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa kugira ngo umuntu abone ubutabazi cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo amererwe neza, mbere yuko byagira ingaruka nini.

Umugore uri muri siporo, akaba ananiwe ari kuruhuka, agafata akanya, akanywa amazi, kugira ngo atuze, agire ubuzima bwiza, ntaki kibazo na mba agize.

Kwa muganga aho bakoresha ubuvuzi buteye imbere, umuntu aramutse afite ikibyimba cyangwa uburwayi bwo mo imbere bakamubaga bakamuvura neza akabasha kongera kuba yakira.

Agakapu kaba karimo ubufasha bw'ibanze buhabwa umuntu wahuye n'ikibazo mbere y'uko agera kwa muganga, ikibazo cyafashe indi ntera.

Siporo ngororamubiri ni kimwe mu bintu by'ingenzi abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho amazu nk'aya akorerwamo siporo afasha abantu gukora siporo neza mu buryo buziguye.

Abantu bakora siporo kimwe mu bintu bakenera iyo bananiwe cyangwa bumva batameze neza bafata amazi meza bakayanywa, bikaba byatuma bagira imbaraga z'umubiri kandi neza.

Gukora siporo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa muntu bw'ingenzi kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi yirinda indwara izo arizo zose.

Umuntu iyo yavunitse ashyirwaho barafu kugira ngo amaraso ashyushye abanze ahore kugira ngo imitsi yongere ikore neza kandi yitabweho neza.

Imashini yo kwa muganga ikozwe mu ikoranabuhanga aho bashyiramo umuntu bakaba babasha kureba utunyangingo twe twose, haba ibice afitemo ikibazo ndetse n'uburyo babibonera igisubizo mu buryo buziguye.

Bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa aho umuntu yavunitse amaze igihe akaguru ke cyangwa se izindi ngingo z'umubiri zidakora neza, hifashishwa ibyo byuma kugira ngo arambure amaguru neza n'imitsi yongere ikore neza mu buryo buziguye.

Ibyuma bya siporo byifashishwa muri siporo ngororamubiri, aho umuntu aterura ibyuma kugira ngo agire amagufwa akomeye ndetse n'umubiri uteye neza mu buryo bwose bushoboka.

Abaforomo cyangwa abaganga ni bamwe mu bantu b'ingenzi, bafasha gukurikirana umurwayi uko ameze, aho barambura amaguru ye y'imitsi, kugirango ngo abashe kuba afite ubuzima bumeze neza.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu gukora siporo z'inda cyane cyane ku bantu bafite inda nini, bakaba bagira mu nda hatoya, aho iki gikoresho kiri kugurwa ibihumbi ijana na makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda.

Umugore cyangwa se igitsina gore, ari gukora siporo, Impande y'amazi agorora ingingo z'umubiri zigiye zitandukanye.

Umwe mu miti ifasha abantu kwirinda indwara zitandukanye. Uburyo bwa mbere ni ugukora siporo, aho ukora siporo ngororamubiri, bigafasha umubiri w'umuntu kumererwa neza.

Aho igufwa rigaragara nk'iryavunitse, baba barirebeye mu ikoranabuhanga, rikoreshwa kwa muganga bakaba babasha kureba ikibazo umuntu afite.

Kwakira abana batoya, bagakora siporo, bakorera hamwe, bituma bishima, bakanezerwa, bagafashanya mu buzima bwa buri munsi.

Imbuto zifashishwa mu kugira ubuzima bwiza, zikorwamo amaji ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha umuntu kuba yagira ubuzima bwiza kandi bunoze.

Bimwe mu bintu umuntu akenera kugira ngo agire ubuzima bwiza, ni uko yisuzumisha kwa muganga, agakora siporo, akishimana n'abandi bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Siporo ngororamubiri, ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha buri muntu wese cyane cyane abari bamaze iminsi barwaye imitsi ndetse n'izindi nyama z'umubiri, ziba zarasinziriye zibz zikeneye kujya ku murongo, niyo mpamvu bagomba gukora siporo.

Gukora siporo ni kimwe mu bintu byiza bifasha umubiri w'umuntu kumererwa neza ariko akanakenera no kurya zimwe mu mbuto zifitiye akamaro umubiri we.

Zimwe mu nkoni zifasha abantu bafite ikibazo cy'amaguru, aho akaguru kamwe yenda kaba kadakora neza tukaba twazita imbago.

Imashini yo kwa muganga y'ikoranabuhanga, yifashishwa mu gusuzuma ubuzima bwikiremwa muntu, haba kureba amagufwa ndetse imbere ku mubiri ndetse n'inyuma.

Imwe mu miti gakondo yifashishwa, aho iva mu bimera bigiye bitandukanye, igakorwa ikavura neza ndetse abantu bakanezerwa bakagira ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye yifashishwa n'abantu bose mu guhashya no kwirinda uburwayi butandukanye: nk'amavuta abantu bisiga mu maso bakarwanya amahumane, imiti ivura igifu ndetse n'indi itandukanye.

Umugezi utemba, wifashishwa mu kubona amazi meza y'isoko, abantu banywa, batanduye, kandi adahumanye, mu buryo bwiza, kandi buboneye.

Ibyatsi cyangwa se ibimera byifashishwa mu miti gakondo kubera ko birafasha mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no gukumira izindi ndwara.

Bimwe mu bibabi by'ingenzi bifasha umuntu kuba yakikingira indwara zigiye zitandukanye cyangwa se kwivura uburwayi bugiye butandukanye.

Ibinyabutabire bitandukanye aho bibyazwamo imiti ivura abantu kandi ifasha mu buryo buziguye.

Ibinyabutabire aho ari bimwe mu bifasha mu gukora imiti gakondo, aho ikorwa n'umuntu wabizobereyemo cyangwa ufitemo ubumenyi buhagije kugira ngo abantu bavurwe indwara zitandukanye.

Imwe mu miti yifashisha mu kuvura ahantu umuntu aribwaribwa mo imbere aho asigaho, akaba yakuba, akagenda amera neza.

Ibinyabutabire bateranya kugira ngo babonere hamwe igisubizo mu kurinda uburwayi ndetse n'imyaka igiye itandukanye kugira ngo birinde uburwayi.

Bimwe mu binyabitabire byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ku buzima bwa muntu hagendeye ku miterere y'ubuzima bw'abantu ndetse n'ibyo bakeneye kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Bimwe mu byatsi byera mu Rwanda aho byifashishwa mu gutanga serivisi runaka haba mu gukorwamo imiti itandukanye ndetse no kuvamo imbuto zifashishwa mu kwikingira indwara.

Ibinyabutabire cyane cyane ikimera bita igikakarubamba, kirifashishwa mu ngeri zose kuko kiri mu bivura indwara nyinshi z'umubiri zitandukanye.

Ibimera ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ivura abantu ya gakondo, kugira ngo harebe kwitabwaho neza kwa buri umwe.

Bimwe mu bibabi cyangwa ibimera byifashishwa bakora imiti itandukanye ifasha abantu kubona uko babaho n'icyizere cy'ubuzima no gukira neza.

Ibinyabutabire bitandukanye, aho bihurizwa hamwe, bigakorwamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho abaturage baba banezerewe kandi bahendukiwe n'iyo miti.

Bimwe mu miti ikoreshwa kandi yizewe ifasha abantu kwirinda indwara zitandukanye, aho ikorwa mu biti, basarura amashami agiye atandukanye.

Umuti ukozwe mu bimera gakondo, wifashishwa mu gutuma abantu bagira ubuzima bwiza, aho amaraso atembera neza, ndetse bikarinda n'ubundi burwayi bwose.

Ibimera bitandukanye ni byo bivamo imiti igiye itandukanye ifasha umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi, aho hareberwa hamwe abashakashatsi ndetse n'inzobere muri byo, bakarebera hamwe igisubizo kirambye.

Ibiti, bimwe mu byifashishwa mu gukora imiti gakondo, aho umuravumba wifashishwa kuvura inzoka, inkorora ndetse n'izindi ndwara zo mu nda.

Imiti cyangwa ibinini bikozwe mu binyabitabire byo mu muco w'Igihugu cyacu, aho byifashishwa mu buvuzi buteye imbere.

Imwe mu miti gakondo, aho ikorwa n'abashakashatsi ndetse n'inzobere, mu gukora iyo miti, byifashishijwe ubumenyi butandukanye.

Bimwe mu biti gakondo byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, aho babivanga bikaba byavamo umuti ukomeye uvura neza.

Bimwe mu biti byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ya gakondo kugira ngo abaturage ndetse n'abantu bose babashe kuvurwa neza.

Umuti wifashishwa mu kurinda indwara, cyane cyane ibyorezo cyangwa ibyuririzi byatera mu buryo ubwo aribwo bwose.

Ibinyabutabire bitandukanye, aho babifata bakabisekura, kugira ngo habashe gukorwa imiti igiye itandukanye irinda indwara, ndetse n'izindi zivura.

Kuvanga ibinyabutabire bitandukanye, hakaba hakorwamo na korogate, yifashishwa mu gusukura amenyo. Aho umuntu agira amenyo akeye bikamurinda n'izindi ndwara zo mu kanwa.

Ibyatsi gakondo uba utasanga ahabonetse hose aho ubikoresheje neza abasha kwirinda indwara ndetse no kuvura abarembye.

Aho hafatwa ibinyabutabire bigiye bitandukanye, cyangwa se ibimera bigahurizwa hamwe, kugirango hakorwemo imiti itandukanye, bigakorwa n'inzobere muri byo.

Bimwe mu binyabutabire byifashishwa mu gukora imiti gakondo igafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse no kuzivura.

Igisubizo kirambye mu miti gakondo, aho ibinyabitabire bihurizwa hamwe bigakorwa n'imiti itandukanye, buri umwe ufite icyo uvura n'icyo wafasha umubiri w'umuntu.

Zimwe mu mbuto ndetse n'ibindi binyabutabire byifashishwa mu gukora imiti, kugira ngo habeho kurengera ubuzima bw'ikiremwamuntu mu buryo bwiza.

Aho ibimera by'ibinyabutabire bitandukanye, byifashishwa n'abashakashatsi, bagakoramo imiti itandukanye, ivura indwara zandura ntizitandura.

Indabyo cyangwa se ibimera bituruka mu butabire, aho byifashishwa mu kuvura ndetse no kuvura ibisebe no kwirinda indwara zandura n'izitandura.

Ibinyabutabire byifashishwa mu gukora imiti gakondo kugira ngo havurwe abantu b'ingeri zose zitandukanye habeho neza.

Imwe mu miti iba yakozweho ubushakashatsi, ishyirwa ahantu ku ruhande ikitabwaho kugira ngo babashe no kumenya icyo yavura neza kandi mu buryo buziguye.

Bimwe mu biti cyangwa se ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivuye kubinyabutabire kugira ngo havurwe abantu.

Bimwe mu binyabutabire byifashishwa mu gukoramo imiti gakondo, cyangwa se ibindi bikoresho, aho byifashishwa mu gutunganya neza ahantu, ndetse no gufasha mu buzima bwa muntu.

Ikinyabutabire cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye, ifasha abaturarwanda ndetse n'abanyamahanga, kugira ngo babone igisubizo kirambye ku burwayi umuntu yaba afite, nko gukora ibinya ndetse n'ibindi.

Bamwe mu bavuzi gakondo aho basobanura icyo iyo miti ivura n'icyo ifasha n'icyo yarinda umuntu wayinyoye cyangwa wayifashe.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kuvura abantu, aho umuntu aba afite imbaraga nke mu mubiri cyangwa arwaye indwara z'imbere, akaba yavurwa agakira kandi akamererwa neza.

Aho hakoreshwa ibinyabutabire bitandukanye, kugirango habashe gukorwa umuti ubasha kurinda indwara zigiye zitandukanye, abantu bakagira ubuzima bwiza.

Kimwe mu bimera bihomvwaho ubuki. Aho byifashishwa mu gukora imiti itandukanye kandi ifasha ikiremwamuntu kumererwa neza mu buryo buziguye kandi butomoye.

Gufata iya mbere mu gukoresha ibimera hakorwa imiti igiye itandukanye, bikorwa n'abashakashatsi ndetse n'inzobere kugira ngo habashe kwitabwaho imibereho ya muntu.

Ibinyabutabire cyangwa se ibimera bitandukanye, aho bihurizwa hamwe hakaba habashwa gukorwamo imiti itandukanye ifasha mu buzima bwa muntu.

Imiti gakondo iva mu bimera, aho ihurizwa hamwe igakamurwa ikaba yavamo umuti w'amazi uvura indwara zitandukanye.

Ibinyabutabire byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ariko iteye imbere. Aho bakora amavuta, ibinini, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Bumwe mu buryo bakuramo ibinyabutabire, barabicucuma ibyatsi bakabikamura bakaba babiteranya n'ibindi, bikaba byavamo umuti wo kunywa.

Umuti w'amenyo ukoreshwa mu gusukura amenyo y'umuntu, akaba yagira ubuzima bwiza, ndetse akaba agufasha kwirinda indwara, ukaba wagira amenyo meza akeye asa neza.

Ibinyabutabire bitandukanye aho byifashishwa mu gukora imiti ivura neza abantu b'ingeri zose, aho uyu muti wifashishwa mu kuvura no guhangana n'indwara nka za mibe n'izindi zitandukanye kandi ku rwego rwo hejuru.

Ibinyabutabire cyangwa se ibimera, aho bihurizwa hamwe, hakaba habasha gukorwa imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura ndetse no gukumira ibyorezo n'indwara zitandukanye.